Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, harimo mirongo ine na gatanu yandikishijwe umutuku, inyuma y'iki cyapa hari ibiti birebire.

Ikigo cy'ubwishingizi cya Sonarwa, bakaba bishingira ibinyabiziga byawe ndetse n'ubuzima bwawe n'inyubako yawe barayizigamira, ku buryo ki igihe byagize ibyago ugenda bagahita babiguhereza, bakaguha ikiguzi cy'ibyo wahombye.

Ikigo cy'ubwishingizi cya Britam, gifasha abantu kwiteganyiriza no kwisungana mu kwivuza, hariho umugabo w'umudogiteri wambaye itaburiya y'umweru.

Umugore ufite imashini mu ntoki hejuru ye hari icyapa cya buriritamu akaba ari ikigo cy'ubwishingizi gifasha abantu kuba bashinganisha ubuzima bwabo mu gihe barwaye.

iki ni icyapa kinini cyane gishinze ahantu hameze nk'ahari ku muhanda mugari aho gishyirwa ahantu hejuru kugira ngo umuntu wese uri kure ndetse nuri hafi abashe kubona ibiri kwamamazwa hakaba hariho umuzungu urimo uraseka

Ubwishingizi bw'ingurube mu kigo cya radiyanti yacu, hamagara cumi n'umunani, icumi cyangwa uhamagare zeru karindwi umunani umunani, mirongo itatu na rimwe, mirongo itandatu na karindwi, mirongo icyenda na karindwi. ikiguzi cy'ubwishingizi ni gatandatu ku ijana.

Itangazo rigaragaza ko tugeze mu gihe cy'imvura, imvura nyinshi, imyuzure n'ibindi biza byakwangiza inyubako yawe bikagutera ibihombo. Irinde sinamenye ugure ubwishingizi.

Ushaka gucuruza nta nkomyi gura ubwishingizi bw'ibinyabiziga bigufasha mu bucuruzi, ni ikigo cyitwa purayime gishinzwe kwishinganisha ibyawe mu gihe ugize igihombo barakwishingira bakaguha amafaranga.

Icyapa kinini cyane kirimo kiramamaza ku muhanda mugari, hejuru hari ikirere bigaragara ko izuba rigiye kurenga kikaba kinafiteho udutara tugeze muri dutanu hejuru.

Eko banki, ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe iby'imari, kikaba kikuguriza amafaranga cyangwa ukaba wabasha kubitsamo amafaranga, kikaba gifite ikirangantego kiriho ikarita ya Afurika

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwa banki ya ekwiti rugufasha kohereza, kwakira no kumenya amafaranga ufite wifashishije terefone igendanwa ntabwogo bikiri ngombwa kujya kuri banki.

Telefone igezweho bakoramo, bagakozamo intoki, ikaguha ibyo ushaka byose, harimo imibare igaragaza amafaranga ufite kuri konti yawe ya banki.

Urubuga rwa banki rwo kuri telefoni aho begereza umukozi cyangwa umukiriya wa banki ibikorwa byabo kugira ngo atajya yirirwa yivuna ajya kuri banki buri munsi.

Inzu bacururizamo amatelefone ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, biri mu birahure mu tubati tw'ibirahure harimo n'amatara akaba ari mu masaha ya n'ijoro nta muntu uhahagaze.

Inzu y'abanyamideli isize irangi ry'umweru ikaba irimo akabati kamanitswemo amakositime ndetse n'amashati adozwe mu bitenge kandi hasi hari amakaro asa umukara.

Ikote ryiza cyane riciyemo imirongo imeze nk'utuzu rikaba ryambitswe ikintu cy'igikarito bambikaho cyerekana ubwiza, inyuma naho hari utubati turimo indi myenda myinshi.

Iduka ricururizwamo imyenda hakaba harimo ibipupe byambitswe imyenda n'amadarubindi n'imisatsi, hejuru hari igisenge kiriho amatara, hirya hakaba hari n'utubati turimo imyenda y'amoko yose.

Umugabo w'umuzungu ufite imisatsi miremire, uri kuganira n'undi muhungu w'umwirabura wambaye ishati irimo imirongo y'umweru n'umukara, bakaba bafite icyuma cy'ikoranabuhanga mu ntoki zabo.

Ni isoko ricururizwamo imyenda y'abagore hamanitsemo ibitenge, amakanzu asa icyatsi ndetse n'ibindi bikomo bya zahabu birimbisha abadamu.

Abagabo babiri barimo barahererekanya urufunguzo rw'urucurano rw'Akagera bizinei gurupe, akaba ari umukozi waho ari kumwe n'umuntu umaze kugura iyi modoka.

Abagabo batatu harimo umwe wambaye igisurubeti cy'ubururu, inyuma yabo hari igikamyo kinini cyane cy'umweru. Bakaba bafite igishushanyo cy'urufunguzo cyanditseho akagera motozi.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu handitseho Hyundai, akaba ari ikigo gishinzwe gukora imodoka, inyuma yaho hari n'izindi modoka zihaparitse ndetse n'ubusitani buteye imbere y'icyo gipangu.

Imodokamo y'ivatiri y'umweru iparitse mu nzu hasashemo amakaro hasi, ikaba ariyo mu bwoko bwa Toyota ifite amapine y'umukara kandi ishobora kuba ari imodoka ihenze cyane.

Abantu bari mu nama umwe yambaye umupira w'umutuku n'amadarubindi, abandi baramwegereye bigaragara ko ari mu nzu icururizwamo imodoka bakaba barimo barakorana amasezerano yo kwishyura.

Banki yitwa dahabushiri hari ibyapa bisa icyatsi kiriho abantu babiri bari gusuhuzanya m'imbere hari icyuma kibara amafaranga n'umukozi w'iyi banki.

Inoti y'ijana ya banki nasiyonari y'u Rwanda, ni inoti ya kera yo mu myaka ahagana ibihumbi bibiri, iriho umugore uhetse umwana.

Aha ni muri banki irimo abakiriya babiri, umugore ndetse n'umugabo, bakaba baje kuba babikuza ndetse bakanabitsa amafaranga bagenda bifashisha mu mirimo yabo igiye inyuranye.

Umukobwa uri muri banki ufite imisatsi miremire akaba yaje gusaba serivisi z'amafaranga imbere hari mudasobwa zikoreshwa n'abakozi ba banki ndetse n'ibirahure bitandukanya umukozi ndetse n'umukiriya.

Banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda inote ya bitanu yakoreshwaga mu myaka y'ahagana muri bibiri isa umutuku iriho ibiti by'icyatsi, ikaba yari inote ifite agaciro mu gihe cyayo.

Umubyeyi wambaye ishati irimo imirongo y'umuhondo ikaba isa na yo umutuku. Aho arimo arandika ahantu mu biro by'umukozi w'ikigo gishinzwe guhererekanya amafaranga mpuzamahanga.

Umugabo uri mu biro; imbere ye hari mudasobwa, hasize irangi ry'umweru arimo araganira nundi mugabo! wambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo y'umukara; ndetse hirya hari n'icyuma gifotora impapuro.

Umuntu uri muri banki ahantu arimo arishyura hari ibirahure hejuru hari akantu gasa icyatsi n'ibipirizo by'umweru, umutuku n'umuhondo ndetse n'ubururu buvangavanze, bakaba baje kwishyura imisoro ndetse n'ibindi bintu n'amafaranga y'ishuri.

Aho uruganda rw'amata rw'Inyange rugemurira amata ndetse n'imitobe batunganya, hateye irangi ry'ubururu, harimo ifoto y'umwana mutoya urimo uraseka, mo imbere harimo ibyuma bikonjesha.

Icyuma gikonjesha amata kikanayabika igihe kirekire ngo atangirika, hakaba hateretseho udupapuro two guhanaguza hejuru turi mu gasahani gasa ibara risa nk'umweru hirya naho hari ibyapa bishushanyijeho utujerekani.

Mu iguriro ry’amata hahagazemo umupapa wambaye umupira w’umweru, uri gusuka amata mu gikombe gisa n’icunga rihiye. Akaba imbere ye hari n’icyuma gishinzwe gukonjesha amata.

Akantu babikamo impapuro zo mu nzu ya arimantasiyo gasa ibara ry'umweru gateretse ku meza, hirya kandi hari amakaro ashashe hasi n'icyuma gishinzwe gukonjesha amata.

Amata y'ikivuguto yo mu dukarito dusa ubururu n'umuhondo, hirya yaho hakaba hari n'andi mata atunganywa agahindurirwa uburyohe bagashyiramo n'ibindi birungo bizwi nka yahurute.

Abakobwa babiri bambaye imipira y'ubururu bisukishije, bakaba bari ku kimeza kinini cyanditseho Mukamira, ni uruganda rucuruza amata rukorera mu karere ka Rubavu, bacuruza amata y'inka aryoshye.

Inzu icururizwamo amata ifite imiryango iteye irangi ry'ubururu, hasi hasashe amakaro harimo n'akabati ko kariho ifoto y'umwana ucigatiye itasi yamata mu ntoki.

Mu ikusanyirizo ry'uruganda rw'amata ndetse n'imitobe rw'inyange hasize amarange y'ubururu ndetse n'icyatsi, harimo abakobwa batatu bakorera kino kigo, babiri muri bo bambaye imyenda y'umweru.

Mu nzu y'ikusanyirizo ry'amata hateretsemo igicuba kinini cyane kirimo amata imbere yacyo hari umukobwa wambaye agakabutura gatukura arimo arishyura akoresheje telefone.

Umugabo uri muri kantine iteyemo irangi ry'umweru n'ubururu, harimo icyuma gikonjesha amata ndetse harimo n'abantu bacuruza, ku ruhande hari n'umuryango usize irangi ry'umweru.

Urubuga rw' ikoranabuhanga rushinzwe kohereza amafaranga no kuyakira, aho bari kwerekana ko umaze kohereza maganatanu na mirongo itatu n'abiri n'ibice cumi na bitandatu by'amadolari ya Leta zunze ubumwe za Amerika.

Teganya ejo hazaza h'umwana wawe, amafaranga make watangiza none yakubaka ejo hazaza h'abana bawe, ni ikigo cya supeni kirimo kirabwira abantu kwiteganyiriza.

Airtel umurongo w'itumanaho rya telefoni zigendanwa, hakaba hari telefoni yo mu bwoko bwa zimwe umuntu akozamo intoki kandi hakaba harimo porogaramu y'umutuku n'umweru y'iki kigo.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwo koherereza ndetse no kwakira amafaranga, wifashishije mudasobwa cyangwa telefone igendanwa, uru nguru akaba ari urubuga rwabigufashamo ruri mu mabara y'umuhondo n'umweru.

Telefone yo mu bwoko bw'izi zigezweho bakozamo intoki iri kwerekana uburyo bworoshye ushobora kugenda ukohereza amafaranga ndetse ukanamenya amafaranga ushigaje kuri mudasobwa, ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Uburyo bw'ikigo cy'itumanaho icyo aricyo cyose cyifashisha, iyo ugiye kohereza amafaranga bakaba bakwereka umubare wayo ugiye kohereza, ndetse na kode ziwugize bakakwereka n'uburyo ushaka guhita ureka kuyohereza wabihagarika.

Irekure ni uburyo bw'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene ukoresha ukagura amayinite ukaba wabasha kuyavugiraho igihe kirekire udahagarara ntabwoba bwo kuvuga ngo amayinite aranshiranye, umugore ufite telefone igendanwa mu ntoki uri gukoresha ubu buryo.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro aricyo cyitwa Rwanda reveni rukaba ruriho amanimero ndetse n'ibihe umuntu yishyuye imyaka igiye itandukanye.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ruri mu ibara ry'umweru hakaba hariho umubare w'amafaranga ndetse n'umwaka uba wasoreye kuri uru rupapuro.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rusa umweru hakaba hariho utuntu twinshi cyane tw'amagambo twandikishijwe na mudasobwa dusa umukara, hakaba harimo n'imibare igi itandukanye.

Inyemezabwishyu y'ikigo cy'imisoro n'amahoro cy'u Rwanda, ikaba iriho ukuntu umuntu yagiye yishyura buri kwezi ndetse n'ibihano aba yaraciwe igihe yakererewe, hariho n'ikirangantego cy'igihugu cyacu.

Urupapuro rw'umweru ruriho umukono cyangwa icyo bita sinyatire harimo mudasobwa iri kwerekana uru rupapuro, irimo ibara ry'umukara ndetse nayo isa umukara.

Fagitire y'ifatabuguzi ry'umusoro wa Rwanda reveni, bakaba ari ikigo gishinzwe kwaka imisoro n'amahoro mu baturage, hariho n'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya hariho uburyo umuntu yagiye yishyura.

Urubuga rwo kuri mudasobwa rurimo icyapa cy'umweru kiriho umukono w'umuntu ndetse no hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara hakaba hari n'undi mukono w'umuntu. Bigaragara ko ari amasezerano y'ikigo runaka.

Uru ni urupapuro rwemeza ko wabashije kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga kuri banki ukoresha, bikaba bigufasha kumenya neza uko konti yawe imeze.

Amafaranga y'amadorari ndetse n'andi mafaranga y'amahinde y'inote ya bitanu, akaba afashwe n'abagabo babiri bari kuyabarira ku meza, harimo uwambaye ishati y'umweru n'uwambaye ishati y'umukara.

Umugabo uri kubara amafaranga y'abanyamahanga menshi cyane, yiganjemo asa ibara ry'ironji hakaba n'andi asa ibara ry'umukara, umugabo ufite intoki zisa n'iz'abahinde.

Amafaranga yo mu bwoko bw'amahinde y'ijana, ariho intwari yabo yitwa Mahati Magandhi, akaba arimo mu ntoki z'umugore ufite ibara ry'uruhu rw'umuhondo arimo arayabara.

Aya ni amafaranga y'Ubushinwa, akaba ariho ifoto y'umuyobozi wayoboye iki gihugu ndetse ari mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, ni ifaranga rimwe rya repubulika y'Ubushinwa.

Inyubako ariko igaragara ko iherereye i Kigali mu Rwanda; iragaragara yuko iri kugurishwa aho bavuga ko umuntu afite miliyoni ijana na mirongo ine abasha kuyigura, iri i Kanombe Kigali, ni uburyo rero bumenyerewe bwo kugurisha aho abantu bagaragaza ibiciro by'ibicuruzwa.

Amafaranga ya Leta Zunze ubumwe z'Amerika y'amadolari ijana, afashwe mu ntoki n'umugabo w'umwirabura, aya mafaranga avunjwa mu manyarwanda ibihumbi ijana na mirongo ine.

Amafaranga ya banki ya Tanzaniya y'amashiringi ya magana atanu, ariho umugabo ufite umutwe munini n'umusatsi, akaba ari umuperezida wayoboye iki gihugu.

Umugabo w'umuzungu ndetse n'umugore, bari guhererekanya amafaranga y'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika. Akaba ari amadolari ijana, ku ruhande hari n'imashini ishinzwe kubara amafaranga.

Amafaranga y'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'amafaranga akoreshwa n'umuryango w'ubumwe bw' Uburayi ama ero hakaba hari n'ibiceri biri ku ruhande.

Ibihumbi bitanu by'amafaranga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariho inyamaswa zo mu ishyamba ndetse n'ikindi kibumbano kimeze nk'ikigirwamana cyabo. Hakaba hariho n'ikarita igaragaza ubuso bw'igihugu cyabo.

Inzu bavunjiramo amafaranga ukaba ujyana amafaranga y'abanyamahanga bakakuguranira bakaguha ayo muri icyo gihugu cyawe kandi iri mu mabara y'ubururu n'umutuku aho ku isi yose wasanga izi nzu zivunja.

Inzu bifashisha bavunja amafaranga y'abanyamahanga yo ku isi yose ukaba watanga amafaranga yose waba ufite yemewe n'amategeko bakabasha kukuvunjira, iri mu ibara risa nk'ironji kandi hari inzugi z'ibirahure.

Ahantu hakorera ikigo gishinzwe kuvunjisha amafaranga y'manyamahanga, hari icyapa cy'ubururu ndetse hari n'utwuma tw'umweru turinda abantu kuba bahanuka mu nyubako y'igorofa.

Uyu ni umukozi w'ikigo gishinzwe kuvunjisha amafaranga y'amadovize, ndetse n'amafaranga y'amanyarwanda, aho baguhindurira bakaguha amafaranga ajyanye n'igihugu ushaka kuba wakwerekezamo.

Icyumba gisa neza kirimo intebe y'umukara, harimo n'ibiti biri mu tuntu tumeze neza hakaba hari n'ivaze irimo ururabo. Hirya hari urukuta ruriho irange ry'icyatsi.

Ahantu hari ibyapa binini byerekana ubucuruzi bukomeye bw'amafaranga ndetse n'ivunjisha ry'amafaranga hakaba hari icyapa gisa umuhondo n'umukara.

Icyapa kinini cyane kigaragaza ko abana bavunjisha amafaranga akaba ari akazi gakorwa aho umuntu ajyana amafaranga y'igihugu cy'amahanga bakamuvunjira bitewe n'ahantu ashaka kwerekeza.

Inzu yabugenewe ivunja amafaranga y'amanyamahanga ikayahindura mu yo mu Rwanda hari amatara atandukanye ndetse harimo n'ibyuma bigiye birimo kwamamaza uko ivunjisha rihagaze.

Icyapa kigaragaza ahantu bavunjisha amafaranga, aha ni mu gihugu cy'Ubuhinde, hakaba hari n'ibindi byapa bigaragaza kompanyi zishinzwe gutanga amafaranga mpuzamahanga.

Umuntu uhagaze ku meza bakiriraho abakiriya mun nzu ivunjirwamo amafaranga mo imbere harimo umuhungu wambaye umupira w'umweru ndetse n'umukobwa wambaye ikanzu y'umukara wicaye.

Inzu ivunja amafaranga yo mu Rwanda ndetse n'ayo mu mahanga ifite icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse bakaba bagufasha kuba waba ugiye mu mahanga udafite amafaranga y'icyo gihugu ugiyemo bakayaguha ukagenda uyitwaje.

Inzu y'ibiro bishinzwe kuvunja amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'ayo mu Rwanda, bakaba bakuvunjira amafaranga bitewe n'igihugu ugiyemo bakakuguranira.

Aha ni ahantu bavunjisha amafaranga y'amanyamahanga ndetse n'amafaranga y'ino aha mu gihugu hagati, aho umuntu wese ukeneye kujya hanze, agenda bakaba bamuhereza amafaranga ajyanye n'igihugu yaba agiye kujyamo.

Inzu y'abanyabugeni irimo urubaho ruriho amatara hejuru ikaba naho hari irangi risa nk'ivu hasi hashashe amakaro ameze nk'imbaho.

Icyumba kirimo uburiri bwiza cyane, bushasheho amashuka y'umweru, hirya hari akabati umuntu ashobora kubikamo amafaranga, telefone, ndetse hakaba harimo n'amarido asa nk'ibara ry'ivu.

Imbaho ziri mu ibarizo zikase ku buryo bwiza cyane bigaragara ko ari mu masaha ya kumanywa umubaji akaba agiye kuruhuka akaba azisize aziteguye.

Inzu mu ruganiriro hateguye neza intebe nziza hakaba harimo na televiziyo yomekwa ku rukuta, n'amarido maremare hakaba hashashemo n'umukeka hasi, bifasha abantu kwicara batekanye.

Utubati dukozwe muri ribuyu hakaba hari umuntu urimo uradukoramo isuku w'umugore kandi ni ahantu bacururiza ibintu bikomoka ku mbaho hejuru hari igisenge gisa ibara ry'umweru.

Inzu igezweho irimo inyakiramashusho y'umukara, hirya hari akabati karimo amavase arimo indabo, imbere hari n'intebe zo muri saro bicaramo hakaba harimo n'amatara meza, hirya yaho hari n'amarido maremare.

Intebe ikozwe mu ruziga mu mbaho iteretse hasi kuri sima, hirya y'aho hari inzu yubakishije amatafari y'umutuku ndetse ifite n'umuryango w'umweru, ku ruhande gato hari ubusitani bukikije iyi nzu.

Hoteri itarimo umuntu n'umwe usibye umukozi wayo ushinzwe guha abantu ibyo bamutumye, akaba ari muri kontwari imbere, inyuma ye hari igikuta kirekire kandi iyi hoteri ifite nabwo imiryango y'ibirahure.

Resitora yiyubashye cyane irimo intebe z'umutuku ndetse n'ameza ateretseho ibitambaro byiza. Hari n'amarido ari mu madirishya hanze aho uba witegeye izindi nyubako ziri hirya ndetse no muri parikingi yazo haparitsemo kwasiteri y'umweru.

Komvensheni senta ni inzu y'icyitegererezo iteye nk'inzu z'abami b'u Rwanda ba kera ikaba ikurura bamukerarugendo, hirya yayo hari indi hoteli yitwa radisoni nayo nziza cyane.

Inyubako ya komvesheni senta iri mu ibara ry'idarapo ry'u Rwanda risa ubururu ikaba icanyemo amatara menshi cyane kandi iherereye Kimihurura mu mujyi wa Kigali.

Hoteri yitwa serena iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, hari ubwogero ndetse n'amatara menshi cyane, ni hotel y'icyitegererezo ku buryo n'abanyamahanga baza baje kuyisura.

Inzu rusange yagenewe kuriramo n'abantu baturutse impande n'impande; hateguwemo imbuto ziganjemo imineke, inanasi ndetse n'amaronji.

MU biro harimo umukozi ufite urupapuro urimo urasoma akoresha na mudasobwa, hirya hari iyindi mashini ishinzwe gufotora urupapuro ikarushyiraho amagambo, ku mmpapuro nyinshi zigiye zitandukanye.

Uyu ni umukozi wa hoteli wambaye ishati y'umweru afite n'amasahani ashyiriye abakiriya imbere hicayemo abanyamahanga bari kureba ku nyakiramashusho kandi hari amatara menshi yaka ibara ry'umuhondo.

Mudasobwa iteretse mu biro by'umuntu wagiye hanze gato hakaba hari n'urugi rurangaye rukozwe mu birarahure hari inkuta ziriho irangi ry'umweru ndetse n'ururabo ruteretse hanze rw'icyatsi .

Aha ni mu nzu zikoreramo ikigo runaka gishinzwe ibintu bijyanye n'ubucuruzi, hakaba harimo utubati dusa nk'ibara rya kaki ndetse n'inzugi nini zikozwe mu birahure.

Iki ni icyumba gishashemo amakaro, hirya hari umukozi ushinzwe kwakira abantu baje bagana kino kigo gishinzwe iby'ubwiteganyirize, aho umuntu agenda agatanga umusanzu buri kwezi, igihe yagize ibyago bakamugoboka.

Ibiro birimo abazungu benshi ndetse n'intebe n'ameza n'utubati harimo na za mudasobwa bakoresha mu kazi kabo hakaba hateyemo irangi ry'umweru harimo n'amatara.

Imodoka ya toyota y'umweru iparitse mu muhanda w'ibitaka, inyuma yayo hari izindi modoka z'umweru, ndetse n'indi isa umuhondo n'icyatsi biparitse, hejuru hari inzu z'ubucuruzi ziriho ibyapa binini cyane.

Abantu babiri baje mu biro gusaba serivisi zigiye zitandukanye, akaba ari mu kigo cya SOLASI, gishinzwe ubwiteganyirize igihe umuntu yagize ibyago bakaba bamugoboka.

Inzu ikeye isashemo amakaro hasi, ku nkuta har’ijambo ryanditseho Sanlam, hejuru mu gisenge harimo amatara yaka ndetse n'imitako yometse ku nkuta.

Inzu y'igorofa imbere yayo hari ibiti bisa umweru ndetse n'ubururu, iyi nzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali hirya yayo hari indi nyubako ndende nayo igeretse bikaba bireshya.

Imodoka y'ivatiri y'umutuku iparitse muri parikingi y'inyubako y'amagorofa igeretse gatatu, hakaba hari utubara tw'umuhondo n'umukara twerekana imbibi z'iyi parikingi.

Ibiro bitarimo umuntu n'umwe, harimo mudasobwa hakaba harimo n'intebe y'umukara, inyuma yaho hateye irangi ry'umweru, hakaba hariho icyapa kiriho bimwe mu bintu bikorerwa hano mu biro by'iki kigo.

Aye endi emu banke ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda gishinzwe kubika amafaranga y'abaturage umutekano kandi bakaba banakuguriza igihe ukeneye amafaranga.

Umugabo n'umugore bari kwandika mu makayi ahantu batangira serivisi za banki, hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umukara n'umugore uri kubara inote za bitanu z'umutuku mu ntoki ze.

Icyapa cy'umuhondo cyo kuri murandasi cyanditsweho ko hano hantu bashaka kwamamaza cyangwa bagatanga bakamenyekanisha ibikorwa byawe ahantu hose hakaba higanjemo ibara ry'icyatsi n'iry'ikigo K'igihugu gishinzwe iterambere.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwanditseho n'utundi tubara dusa ubururu, akaba ari urupapuro rugaragara nkaho buzuzaho imyirondoro y'umuntu runaka, ahantu bashyira amatariki byabereyeho ndetse n'umukono.

Eko banki ni ikigo k'imari gishinzwe kubikira abantu amafaranga, bakaba barimo baramamaza hariho umukobwa ndetse n'umuhungu wambaye ikote bishimye.

Umukobwa ndetse n'umuhungu bambaye nk'abantu bakoze ubukwe, bari ahantu kuri hoteli runaka, inyuma yabo hari izuba riri kurenga bigaragara ko ari mu masaha ya nimugoroba.

Inzu ishashemo amakaro hakurya hari inyakira mashusho enye ziri kwaka, uko bigaragara ni ku kibuga cy'indege aho abagenzi baba bategerereje ko indege zabo zaza zikabatwara.

Icyapa cyamamaza banke y'abaturage y'u Rwanda hariho umukobwa ufite telefone igendanwa ari kuyivugiraho, yambaye ikote ry'umweru afite n'indi telefone nini cyane y'umweru mu ntoki ze.

Icyapa kiriho imodoka ndetse n'umutaka w'icyatsi gisobanura ngo tekana ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe, aho ushobora kugenda ukishinganisha ku kinyabiziga cyawe wakora impanuka bakakugoboka.

Umukobwa urimo guseka akaba yisukishije, yambaye ishati ya kaki, afite n'kofi mu ntoki, akaba yari kwamamariza banki yitwa NCBA.

Inzu irimo inyakiramashusho iri kwaka hasi hakaba hari intebe z'umukara, hirya hari ibipirizo bisa ubururu n'umweru bigaragara ko bagiye kwizihiza isabukuru y'igihe runaka bamaze bakora.

Banki ya kesibi ikorera Nyabugogo, ikaba iriho ikirangantego cy'intare hasa ubururu ndetse n'icyatsi, harimo n'umweru hari abakiriya batonze umurongo hanze y'iyi nyubako.

Ikigo cy'imari cya ekobanke kigaragaza ko umuntu wese ukoranye nacyo aba umukire, ni umugore ufite imodoka n' urufunguzo rwayo mu ntoki yambaye ishati akaba afite n'imisatsi myinshi cyane, akaba arimo agaragaza ubwiza bw'iki kigo.

Umugabo, ndetse n'umwana we bafite igikinisho k'ingurube ibikwamo amafaranga yo kwizigamira ya banki ya agisesi, aho bari kugira inama abantu kudasesagura amafaranga yabo, bakajya bayabitsa.

Umugore wambaye ishati y'umutuku yerurutse; yicaye ku gikarato cy'ikesi bashyiramo inzoga cyangwa fata; inyuma ye hari imbuto z'imineke ndetse n'inyanya.

Isoko ririmo umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi yambaye inkweto za rugabire, arimo aragendagenda ku giheri cya sima hasi, ndetse iri soko ririmo amasakoshi n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Isoko bahahiramo ibiribwa byiganjemo ibishyimbo, ibitunguru, ibirayi, ndetse n'ibindi byinshi inyuma hakaba hari n'imitako ya kinyarwanda icururizwa hano hantu n'igisenge kirimo amatara.

Isoko ririmo abantu benshi batandukanye n'abazungu bacuruzamo ibitenge by'amoko yose, hakaba hari n'umugabo wambaye umupira w'umweru uriho ibirangantego bya fpr Inkotanyi.

Umumotari utwaye ikinyabiziga cye ahetseho umugabo wambaye ikote ry'umukara ari mu muhanda w'umukara wa kaburimbo, kuruhande hari amaduka ndetse n'ipoto rishinzweho itara ryo mu muhanda.

Isoko ry'imbuto ryiganjemo imineke, imyembe ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, zigira intungamubiri zikaba zinafasha mu igogora mu gihe umuntu arwaye mu nda.

Isoko ricuruza imyenda; hicayemo umuhungu ufite telefone igendanwa mu ntoki; hakaba harimo n'imyenda imanitse hejuru ku biti; harimo n'abantu bagendagenda baba baje guhaha, n'amatara abamurikira n'ijoro.

Ibitenge bimanitse hejuru mu isoko by'abadamu bikaba birimo ibara ry'ubururu bwijimye, oranje ndetse hakaba harimo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Isoko ririmo abantu benshi baje guhaha akaba ari ahantu ushobora gusanga ibintu byose waba ukeneye ari ibiribwa ndetse n'imyambaro, dore ko abantu bari hano baje mu isoko ry'imyambaro gusa.

Isoko ricuruza ibintu bya kinyarwanda by'umuco wacu; harimo ibyansi, ingoma ndetse n'imigongo; hasi hasashe amabuye; imbere kandi harimo abantu benshi, hakaba hari n'umutaka w'ikigo cy'itumanaho cya mtn.

Umuhanda wa kaburimbo hirya hari imodoka z'amavatiri zitwara abantu ndetse n'inyubako ndende igeretse gatatu, aha ni ahantu kera ubu ngubu barahahinduye bahashyira imihanda igerekeranye.

Isoko ricuruza ibitunguru, inyanya n'ibirayi, hahagazemo abagore babiri bambaye ibitenge b'abakongomani, hakaba hari n'inyuma yabo igiti cy'imikindo ndetse ni isoko rinini cyane.

Inzu y'itumanaho ya emutiyeni ihagazeho abagabo n'umugore bambaye imyenda y'umuhondo hejuru, hasi bambaye amapantaro bakaba barimo baramamaza ibikorwa by'iki kigo.

Umugabo uri ku igare, yambaye umupira w'umuhondo, w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, inyuma ye hari abantu benshi, harimo n'umukozi w'iki kigo, bakaba barimo baramamaza serivisi zacyo.

Inzu y'itumanaho ya MTN ishinzwe itumanaho ndetse no guhererekanya amafaranga, harimo umugabo wambaye umwenda w'umweru n'abana bicaye hirya ye barimo barareba umuntu uri kubatunga icyuma cya kamera.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN uri gushyikiriza umugabo w'umuyonzi igare ndetse na terefoni igendanwa, inyuma hakaba hari icyapa cy'umuhondo n'ibirangantego by'iki kigo.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku k'ikigo cya eyateri kegeranye n'akandi kari mu ibara ry'umuhondo k'ikigo cya emutiyene, hahagaze umuntu waje kugura amayinite w'umukobwa wambaye umupira w'imbeho w'umukara.

Umutaka w'ikigo cy'itumanaho cya MTN uri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, mo imbere hari umukozi w'iki kigo ufite amatelefone ndetse n'ibindi bicuruzwa bacuruza, akaba yanagufasha akaguha amayinite.

Akazu k'umuhondo k'ikigo cy'itumanaho cya MTN gishinzwe ibyo kohererezanya amafaranga, ndetse no gutumanaho hifashishijwe telefone igendanwa, hahagaze umugore wambaye umupira usa shokora.

Akazu k'itumanaho ka emutiyeni kari mu ibara ry'umuhondo, hirya hari ipoto rinini cyane rishinze mu bwatsi, akaba ari ku muhanda hari n'abanyamaguru barimo baratambuka umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku w'umunyamaguru.

Umukobwa ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye umupira w'umuhondo n'ikoboyi y'ubururu afite n'amadarubindi yashyize ku gahanga akaba ari kwamamaza ikigo cy'itumanaho cya mtn gishinzwe no kohererezanya amafaranga.

Icyapa cy'umuhondo cy'itumanaho rya MTN cyamamaza uburyo bwo kwishyurana dukoresheje telefone igendanwa, aho bituma umuntu atagendana amafaranga mu ntoki, hejuru mu gisenge harimo amatara.

Uyu umutaka uri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu wikigo cy'itumanaho cya MTN hahagaze abagabo babiri bambaye ibikapu mu mugongo kimwe gisa umukara ikindi gisa ibara rya shokora .

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya MTN akaba ari mu kazu gashushanyijeho ibirangantego by'iki kigo yambaye ishati y'umweru akaba ari umutegarugori.

Abantu barimo abambaye imyenda y'umuhondo bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN, hakaba hari n'imeza ziriho telefone barimo baragurisha, barimo baraganiriza abakiriya baje babagana.

Umumotari wambaye ishati y'icyatsi kuri moto ye hariho igisanduku na cyo kiri mu ibara ry'icyatsi, handitseho vuba vuba akaba ari ikigo gishinzwe kugemurira abantu ibintu baba batumije.

Urubuga rw'ikoranabuhanga, rufasha umuntu kuba yakishyura cyangwa akishyurwa akoresheje telefone igendanwa, hariho umukobwa w'inzobe uri guseka ufashe telefone ye mu ntoki.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi umuntu ashobora kwifashisha atumizaho ibicuruzwa ndetse akaba yanagurishaho bimwe mu bintu aba afite akeneye isoko, ukaba ubikora wifashishije telefone igendanwa cyangwa mudasobwa yawe.

Ikirangantego kiri mu ibara ry'icyatsi, hariho umugabo uri gukoresha mudasobwa, imbere ye hakaba hari itasi y'icyayi bigaragaza ko bakora imbuga nkoranyambaga.

Umugabo ufite igikarito mu ntoki, yambaye imyenda y'ubururu, yicaye mu modoka. Akaba ari umutwazi ushinzwe kugemura ibintu, abantu baba batumije hirya no hino mu gihugu bakaba bagutumikira.

Umugore wambaye ishati y'umweru ufite imisatsi myinshi cyane; akaba arimo arakira amvelope irimo ibicuruzwa yahashye; akaba ari kubihabwa n'umukozi w'ikigo cya vuba vuba.

Uyu ni umukozi w'ikigo gishinzwe kugemurira abantu ibiryo, akaba ari umumotari inyuma kuri moto ye hari isanduku nini cyane iri mu mabara y'umukara, umutuku ndetse na oranje, yambaye n'ingofero irinda umutwe.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwo kuri murandasi hariho mudasobwa ndetse na telefone. Ni urubuga ushobora kunyuraho ukaba wagura ikintu cyose ushaka, gura ibicuruzwa bitandukanye ku bacuruzi bacururiza impande n'impande z'igihugu.

Itangazo ryanditseho ko ubuzima ari ubwo kwishimisha, akaba ari urubuga rwo kuri murandasi rw'imyidagaduro ruriho ibintu bitandukanye by'ibikombe ndetse n'ibipupe.

Umutwazi wa moto wambaye imyenda y'icyatsi n'umukara, akaba ari kuri moto iriho agasanduku k'icyatsi kariho umugabo uri kwirukanka, bakaba bashinzwe kugemura ibintu umuntu aba yatumije ku buryo bw'ikoranabuhanga.

Umugabo wambaye umupira wa oranje afite igikarito cyanditseho jumiya akaba ari ikigo gishinzwe kugemura ibintu abaturage baba batumije kuri murandasi ndetse no ku bundi buryo bwa telefone igendanwa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukorera kuri murandasi rucuruza ibiryo rwitwa Ishyo rukaba rurimo ruramamaza ko rucuruza ibiribwa n'ibyokunywa bigiye bitandukanye hano bikorerwa mu Rwanda.

Ikirangantego cy'ikigo gishinzwe kugemurira abantu ibicuruzwa harimo ibiryo, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bintu batumiza, bakaba babikugezaho mu buryo bwihuse kandi ku gihe.

Inzu ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, iherereye mu mujyi wa kigali, ikaba irimo igitanda cyiza kiriho n'ishuka isa nk'ivu ndetse n'amarido akingirije ku madirishya.

Inzu nziza cyane yo mu bwoko bw'agacurama ikaba iteye irangi risa umweru ndetse hasi hasashe amabuye hari ikirere kirimo umucyo hirya y'iyi nzu hateye ibitoki by'insina.

Icyumba kirimo uburiri bwiza cyane, busa nk'ibara rya kaki, ndetse hakaba harimo n'amarido amanitse ku idirishya, hateyemo irangi ry'umweru, ukaba ushobora kuba wayikodesha ku madorari magana atanu na mirongo itanu mu kwezi.

Urugi rwa ribuyu kandi ruri ahantu hari dushe ya kizungu, irimo tuwarete y'umweru ndetse n'amakaro yometse ku rukuta, muri parafo hakaba harimo na rangete.

Inzu nziza cyane iri mu ibara rya kaki iherereye Kicukiro-Kagarama, mu mujyi wa Kigali, hakaba hanarimo amakaro meza n'igisenge gisa umutuku n'amapave asashe hasi.

Inzu iri Kacyiru mu mujyi wa Kigali, hari amakaro asashe hasi ashashagirana y'umweru, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu k'idolari ku kwezi mu mujyi wa Kigali.

Umugabo w'umuzungu w'umufundi wambaye ingofero zabugenewe mu bwubatsi; akaba yambaye ishati y'umweru irimo n'imirongo y'ubururu; ahagaze hejuru ku gisenge cy'inyubako.

Inzu iherereye mu mujyi wa kigali igura miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda. Iriho ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ibara ry'umweru, hakaba hariho n'igisenge kizwi nka'agacurama.

Inzu ikodeshwa i Kigali mu murenge wa Kimironko ifite ibyumba bine ubwogero butatu ushobora kuba wayikodesha ku bihumbi magana atandatu bya buri kwezi.

Iyi n’inzu nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ikab’ikodeshwa ibihumbi bibiri by'idolari buri kwezi, is’umweru, iteye irangi rindi rya kaki kandi ifite amadirishya y'umukara.

Iyi ni inzu ikodeshwa, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri, iri mu gipangu kinini cyane gishashemo amabuye hasi, ndetse na yo igeretse kabiri, ikaba iriho n'ibirahure bisize irange ry'umweru.

Icyumba kimwe gikodeshwa i Remera hirya ya sitade Amahoro, kikaba ari icyumba wabikamo ibikoresho by'akazi. Giteye irange ry'umweru ndetse n'ubururu, rifite n'amatafari ahiye imbere yacyo.

Inzu z'amacumbi zikodeshwa ikibagabaga ku bihumbi magana atatu byonyine y'u Rwanda, ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, ikaba ari inzu nziza igeretse kabiri irimo amatara mu masaha ya nijoro.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, handikishijweho amagambo y'umukara, cyometse kandi ku gipangu gisa na cyo umukara, kikaba gisobanura ko hari ibyumba kuri etaje ya gatatu.

Inyubako y'amagorofa isize irangi ry'umweru, hasi hometseho naho amakaro y'umweru, hakaba hariho icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu bwerurutse n'ikiri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo imyambaro n'imitako yo mu nzu y'ubugeni by'umuco nyarwandakaba hakaba hari umugore wambaye ishati y'umukara ndetse yiteze n'igitambaro ku mutwe yambaye n'amadarubindi.

Umugore wisukishije wambaye umupira w'umweru n'ikoboyi, akaba ari mu isoko ricururizwamo ibyo kurya n'amavuta yo kwisiga, yegeranye n'abandi bantu benshi nabo b'abakiriya baje guhaha.

Umugore wambaye imyenda y'umukara, hakaba hari imbaho zo muri ribuyu zikozwemo, intebe ndetse n'ameza bigaragara ko ari muri hoteri irimo n'amatara meza ahenze.

Isoko rinini cyane ririmo ibicuruzwa by'ingeri zose ndetse n'aho babika ibintu abantu babatumije hakaba harimo amatara hejuru ku gisenge kandi hakaba harimo n'abantu benshi barimo baranyuranamo.

Isoko ririmo umugore waje guhaha, akaba ari kuri kontwari arimo araganira n'umucuruzi w'aho, hirya hari akabati karimo ibicuruzwa, hejuru ku gisenge hacanyemo amatara y'umweru.

Umukobwa wambaye umupira usa ibara ry'ironji, akaba yisukishije ni inzobe, ari ahantu hacururizwa imyenda yiganjemo iy'abagore, harimo amakanzu asa ubururu ndetse n'ay'umutuku.

Aha ni mu isoko ricuruza ibishyimbo imiceri amavuta n'ibindi byo kurya bitandukanye, hakaba harimo n'amatara ari kwaka asa ibara ry'umuhondo, ndetse ni no ku manywa bigaragara ko nta bakiriya barimo baraza mu isoko.

Abantu batatu bafite mituweli mu ntoki akaba ari uburyo bwo kwivuza ku giciro gitoya ku bantu b'abakene badafite amafaranga yo kujya kwivuza, bikaba batanga ibihumbi bitatu ku mwaka ahasigaye ukajya wivuriza ku buntu.

Igikorwaremezo cy'umuhanda w'abanyamaguru ndetse w'ibinyabiziga, aho ibinyabiziga hari kugenderwaho n'ibinyabiziga mu bwoko bwa moto eshatu, ebyiri zitwawe n'abayobozi bazo ndetse bafite abagenzi batwaye, ndetse n'indi imwe idafite umugenzi utwaye ahubwo itwawe n'umuyobozi wayo gusa.

Umugore uri gukoresha mudasobwa yambaye agapfukamunwa n'ishati yumukara, imbere ye hari undi mugore nawe wambaye agapfukamunwa bigaragara ko hano ari mu bitaro kwa muganga akaba yaje gukurikirana ubuzima bwe n'ubw'umwana we atwite.

Ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB, ubuzima bwacu ejo hazaza hacu heza iyi ni ikarita ya mituweri ifasha abantu kuba bakwivuza ku giciro kiri hasi.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli; yakoreshwaga kera isa ibara ry'umuhondo ya minisiteri y'ubuzima; itangwa n'umujyi wa kigali akarere ka kicukiro; ubu haje ikoranabuhanga byose bikorerwa kuri mudasobwa.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo "ubuzima bwacu, ejo hazaza hacu", akaba ari mu biro by'iki kigo.

Abagore bane bafite amakarita y'ubwisungane mu kwivuza yitwa mituweri, bari kumwe n'abana babo, aho baje kwerekana ko bazifite kandi bazifashisha mu gihe bagiye kwa muganga.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli iri mu ibara ry'umuhondo, hari umuntu uri kwandikaho n'ikaramu kandi izi karita zaraciwe kuko haje uburyo bw'ikoranabuhanga aho umuntu yitwaza indangamuntu ye bakamuvura.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituelle de sante iri mw’ibara ry'umuhondo, hakaba hariho n'ifoto y'umwana mutoya bigaragara ko yari yaje kwivuza. Izi karita ntabwo zigikoreshwa zar’iza kera.

Mudasobwa iri gukoreshwa n'umukozi wa arayesesibi, akaba arimo arasoma imyirondoro yanditse ku ikarita yo kwivuza kugira ngo abashe gufasha umuntu amuha serivisi.

Iduka ririmo ibicuruzwa biri mu tubati ndetse n'ibikarito biri hejuru, hakaba hari n'igisenge cy'umweru kirimo amatara ahantu umuntu ashobora kujya agahaha ibintu byose yifuza kandi bitamuhenze.

Iduka ririmo umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye umwenda usa nk'icunga rihiye, akaba ari mu isoko harimo n'undi mugabo utwaye ibicuruzwa mu gatebo kagendana n'amapine.

Umuntu ufashe icupa rya mayoneze mu ntoki, ishyirwa ku biryo, ikaba iryoha cyane, ari mu isoko rishashemo amakaro hasi ndetse n'utubati turimo ibicuruzwa.

Iduka rinini cyane rihahirwamo n'abantu bifite, rikaba ririmo amaji ndetse n'ibyuma bikonjesha iyi mitobe, inyuma higanjemo fanta ya coca cola y'uruganda rwo muri leta Zunz’ubumwe Za Amerika.

Aha ni mu isoko rya kijyambere rinini cyane ricuruza imbuto, hirya hakaba hari n'ibindi bikoresho bimeze nk'ibyo kurya, hahagazemo umugore wambaye ikanzu itukura ari kumwe n'akana kambaye ikanzu y'umuhondo.

Mu iguriro rinini cyane, harimo utubati dupanzemo inzoga z'amoko agiye atandukanye, ku ruhande hakaba hari akandi kabati karimo ibyo kurya bizwi nka shokora.

Iduka rigezweho rya kijyambere ririmo umugabo ufite icupa rinini ry'inzoga, akaba arimo arariterura aryitegereza, inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi ryerurutse.

Isoko ririmo umukobwa wirabura cyane; akaba afite agatebo bakuruza n'amapine karimo ibyo yahashye; akaba ageze aho yishyurira arimo arakuramo ibyo yagiye ahaha; akaba agiye kwishyura.

Iduka ririmo ibicuruzwa byinshi cyane, imbere hari icyuma gikonjesha cyakamo amatara na cyo kirimo ibindi bicuruzwa. Hejuru mu gisenge hari n'andi matara menshi acana ashashagirana.

Isoko rigezweho rya kijyambere harimo umuhungu wambaye ishati irimo imirongo y'umweru n'umukara. Hasi hasashe amakaro, hari n'ibicuruzwa byinshi biri mu tubati.

Abaguzi bari mu isoko rya kijyambere batonze umurongo buri wese n'ibyo yahashye, aho barimo barishyura ku muntu ufite mudasobwa ishinzwe kubara ibintu umuntu aba yahashye, harimo abagabo n'abagore.

Isoko rya kijyambere bahahiramo ibicuruzwa by'abasirimu, hakaba harimo n'ibyuma bikonjesha ndetse n'amatara yaka hejuru mu gisenge, n'ibirahure biri hanze bakaba banacuruza ibyo kunywa.

Aha ni mu isoko rya kijyambere mu buso bwo hasi hashashe amakaro ashashagirana asa umweru, ndetse hakaba hari n'utubati turimo ibicuruzwa byiganjemo inzoga amafanta ndetse n'ibindi byo kurya bitandukanye.

Umukozi w'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni wambaye umupira w'umuhondo urimo n'ibara ry'ubururu afashe terefone igendanwa mu ntoki ari mu iduka rinini ririmo n'umugore uri gupakira imifuka y'imiceri mu gatebo kabugenewe.